Inzumberabyombi yabereyemo umunsi mpuzamahanga wo gushyiraho itegeko rirengera umwana ndetse n'ibigomba kwitabwaho mu kurengera umwana baharanira iterambere ry'ejo he hazaza.

Ni byiza gutoza umwana hakiri kare ibijyanye n'isuku, uyu ni umwana ufite icupa. Aho aje kuvoma amazi yo kunywa, akabanza yakaraba intoki kugira ngo agire isuku.

Inama yateranye kugira ngo yige ku bijyanye n'indwara zibasira abantu, cyane cyane ku isi ndetse n'indwara zikunze kwandura hanyuze mu buryo bw'umwuka ndetse n'uburyo bwo gukoranaho, ibi bikaba biteje inkeke inzobere mu by'ubuzima.

Abaganga n'abaforomo bahagaze bafata ifoto, aho bavuye gutanga amabwiriza ku kigo cya Nyabageni kugira ngo bashishikarize abantu kugira isuku ndetse no kwirinda indwara zitandukanye.

Umubyeyi wazanye umwana we kwa muganga kugira ngo bamuhe, umuti umwana w'agahinja, wari kuvurwa n'umumama, aho yamwasamuye umunwa kugira ngo abe yamuha umuti, ndetse afashe no gukira.

Kwa muganga aho ababyeyi bafite inda basobanurirwa uburyo bwo kwita ku bana babo bataravuka, bakiri mu nda bakabitaho ndetse bakirinda icyabahungabanya kugira ngo bazavuke bameze neza.

Umuganga w'umugabo n'umugore, aho bari gusuzuma abantu indwara zitandukanye, bagenda babatera urushinge kugira ngo bafate amaraso, babashe kubasuzuma indwara zigiye zitandukanye.

Abaganga badufasha mu kuvura abana bacu, nk'uko bigaragara uyu mudamu w'umuganga ari gufasha uyu mwana bazanye kwa muganga kugira ngo abashe kuba yakivuza ndetse abasha no kubona serivise z'ubu...

Abaganga bari kugenda bafasha abantu batandukanye ndetse no kubegereza ubuvuzi impande yabo kugira ngo babashe kwivuza hatazagira umuntu uba yagira indwara akaguma mu rugo babasobanurira n'uko bikorwa.

Ni byiza gukoresha amazi meza ndetse no kwita ku buzima bw'abana kuko nk'umwana iyo umukoreye ibintu bimuremereye bituma adakura neza ndetse n'imitekerereze ye ikaba yakangirika, nk'uyu mwana uri kwikorera ikintu kimuremereye.

Ikigo cy'isi cyita ku buzima bw'abantu ndetse kigafasha ibitaro ndetse n'andi mavuriro yikorera kubona uburenganzira bwo kuvura, iki ni ikigo kibasha kohereza imiti mu bigo by'amavuriro kugira ngo babashe gutanga serivisi z'ubuzima neza.

Ubuzima bw'abana bukwiye kubungwabungwa, nk'aha impande y'umugezi hari abana bari kureba umugezi bambaye nabi, basa nk'abatariye, ibi bikaba bishobora kubagiraho ingaruka.

Abaminisitiri batandukanye n'inzobere mu by'ubuzima ndetse n'abaganga aho bahuriye mu nama kugira ngo bige ku kibazo cy'indwara zugarije abaturage ndetse babe banashaka umuti wo gukemura icyo kibazo ku buryo burambye.

Abanyeshuri bari kuvoma amazi bifashishije udukombe, bari kuyavoma ku bigega bigezweho bibikwamo amazi meza asukuye kugira ngo adatera abanyeshuri indwara zitandukanye.

Ababyeyi bagira inama abana bakiri bato, bakabashimisha bakabitaho mu buryo butandukanye, kugira ngo bazakure bafite imitekerereze myiza, ndetse banishimiye umuryango babamo.

Abantu bageze mu zabukuru nk'uyu mugore bari gupima, bakunda kurwaragurika cyane bakagira n'indwara nk'imivuduko y'amaraso, ni na yo mpamvu baje kwivuza ndetse uyu muganga akaba yicaye areba ikibazo bafite.

Abana bari gukaraba intoki ariko bagenda biyanduza, ibi bikaba bishobora kuba byabatera indwara zigiye zitandukanye, kuko aya mazi yaba aba arimo udukoko dushobora kuba twakwirakwiza indwara.

Abaganga bo ku kigo nderabuzima cya Girubuzima, aho basoje akazi hanyuma bagahagarara kugira ngo bafate ifoto nk'ikimenyetso ndetse n'urwibutso rw'ubumwe bwabo mu mikoranire yabo.

Umubyeyi wishimye cyane uri kumwe n'umwana ku bitaro aho barimo bita ku buzima bwabo kugira ngo umwana azagire ubuzima bwiza ndetse bagira n'umubyeyi inama uburyo azita kuri uwo mwana.

Inama yateranye kugira ngo yige ku buzima bw'abantu ndetse yige no ku ndwara zigiye zitandukanye ziri gukwirakwizwa mu bantu nk'ibyorezo ndetse n'indwara z'ubuzima bujyanye n'imyororokere.

Inama y'abantu bakomeye ndetse n'inzobere ku bijyanye n'ubuzima aho yateraniye kugira ngo bige ku kibazo cy'indwara zikomeje gukwirakwira mu baturage ndetse n'ingamba zishobora gufatwa kugira ngo barinde indwara.

Urubyiruko rwishimye cyane, rurimo umuhungu ndetse n'abakobwa bane, aho bari kwishimira uburyo bwateza imbere umwana wese, cyane cyane ku bana b'abakobwa, ndetse n'uburyo bwo gufasha urubyiruko kwiteza imbere.

Igikorwa cyo kwita ku bana bafite imirire mibi cyitabiriwe n'abantu bagiye batandukanye, harimo na polisi kugira ngo babashe gufasha abo bana kubona imirire ndetse no kubitaho kugira ngo birinde indwara zituruka ku mirire mibi.

Umudamu ufite umwana umusigatiye, aho yaje kuvoma amazi, ariko aya mazi akaba ashobora kuba yatera indwara ndetse n'uburyo afashemo uwo mwana bikaba bitemewe, bishobora kuba byamubangamira.

Igishushanyo kigaragaza ijambo u na na na wa na fa na pa biri mu dukubo ndetse biri mu ibara ry'ubururu, aho bitwereka ko ari ikirangantego kigaragaza umuryango runaka.

Amazi meza yifashishwa mu gukaraba, ni byiza kugira ngo umuntu akoreshe amazi meza nk'uko uyu muntu ari kuvoma amazi mu ijerekani, atagiye kuyavoma mu kiziba kugira ngo atazamutera indwara.

Urukingo ruvura indwara ya HPV, ni urukingo rwaturutse muri Canada ruza mu gihugu cya Ghana ndetse rugera n'aho rugera mu Rwanda, aho uru rukingo barutera abantu kugira ngo batandura iyi ndwara.

Umwarimu uri kumwe n'abantu benshi bagiye batandukanye, aho ari kubigisha ku bintu bigiye bitandukanye. Yahagaze hagati yabo, kugira ngo abahari bose, babashe kumva ibyo arimo kwigisha.

Umwana wambaye agakabutura k'umutuku, uri ku mugezi, ahari indobo iri kujyamo amazi, aho yaje agategaho intoki, hanyuma agatangira kunywa amazi akoresheje intoki.

Ubuzima abaganga badufasha kubungabunga bashaka icyakorwa kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze kumererwa neza nko kuvumbura imiti ndetse no gukora ubushakashatsi ku ndwara zitandukanye zikunze kwibasira abantu.

Ni byiza kugira isuku ndetse no kuyigirira ahantu hose, abantu bari kuvoma amazi ku mugezi kugira ngo babashe kuyakoresha mu buryo bwo gusukura ibikoresho byabo ndetse no gusukura imibiri yabo.

Abantu bari kumwe n'umwana, bagaragaza uburyo abana bahohoterwa mu muryango, nk'ubu uyu mwana bamwikoreje ijerekani irimo amazi, ndetse iremereye cyane ku buryo bishobora kumugiraho ingaruka.

Umukobwa uri kumwe n'utwana tubiri aho ari kuvoma amazi ku mugezi kugirango abashe kujya kuyakoresha ibyo akeneye yazanye n'utwana tubiri two kumutwaza amazi.

Umwana w'umukobwa, wishimye, uri guseka, akaba ari gukaraba intoki kuri kandagira ukarabe kugira ngo abashe kwirinda indwara zikwirakwizwa no kudakaraba intoki ndetse n'umwanda.

Ni byiza cyane gukaraba ndetse no kugira isuku mu ntoki ndetse n'ahandi hose, nk'uko aba bana b'abanyeshuri bakiri bato babibatoje bakaba bari gukaraba ku mugezi uri hafi yabo, kugira babashe gusukura intoki.

Inama yateranyije inzobere mu by'ubuzima ndetse n'abaganga bagiye batandukanye kugira ngo bige ku ndwara zigiye zikomeza kugaragara ndetse n'uburyo bashobora kuzishakira umuti urambye.

Ni byiza gutoza abana gukaraba nk'uko uyu mwana ukiri muto ari gufungura umugezi kugira ngo abashe gukaraba intoki ze ndetse ibyo bibe byatuma yirinda indwara zigiye zitandukanye.

Iriba rusange abantu benshi baza kuvomaho amazi, aho umwe afite igikoresho gikurura amazi kiyavana mu butaka kugira ngo abandi babashe kuvoma ndetse babone amazi yo gukoresha amasuku.

Iki ni ikirangantego cy'ikigo kitegamiye kuri Leta, gifasha ababyeyi ndetse n'abana kubaho neza, cyane cyane ababyeyi bafite abana bari mu mirire mibi ndetse baba no mu bushobozi butishoboye.

Umugezi uri mu cyaro ahantu hateye ibyatsi, aho umwana yaje kuvoma amazi azanye indobo ebyiri, hanyuma akavoma amazi akayapfundikira, hanyuma agakaraba intoki.

Ubuzima ku isi hose buragoye aho abana bagenda bajya mu mazi afite umwanda kandi ayo mazi aba arimo udukoko dutandukanye dushobora kubabatera indwara ibingibi bikaba atari byiza cyane cyane ku bana bato.

Inama yahuje Afurika ku bijyanye n'imibereho myiza ndetse no gutanga igihembo ku kwita ku mibereho myiza, iyi nama yabaye ku itariki makumyabiri n'ebyiri z'ukwezi kwa kane bibiri na makumyabiri na kane.

Umugore uri gukaraba kuri kandagirukarabe yiyubakiye iwe kugira ngo ijye imufasha kugira isuku, ni byiza cyane kugira icyo ukoraho ko ubanza wakaraba cyane cyane gufata amafunguro.

Abantu benshi batandukanye bahuriye ahantu hamwe, aho babigisha ku bijyanye n'ubuzima ndetse n'uburyo bashobora gukoresha barinda abana babo indwara zishobora, kuba zabibasira cyane cyane izibasira abana.

Abaganga batandukanye aho begereye abaturage aho batuye mu buryo bwo kwegereza serivise z'ubuzima serivise zo kwa muganga abaturage ndetse no kubafasha kugira ngo hatagira abarwarira mu rugo bikaba byavamo urupfu.

Abagabo batatu bari kumwe n'abana batoya bagenda bababwira ibintu bigiye bitandukanye ndetse babereka n'uburyo bashobora kubikoresha ndetse n'abana babereka uburyo bashobora gukoresha ibyuma ndetse no kumenya ibijyanye na byo kurushaho.

Abana benshi cyane bari kubyigana bari ku muronko bashaka uburyo bakaraba intoki, bari gukarabira mu ibase irimo amazi yanduye bigaragara ko bari bafite intoki zanduye.

Kwita ku buzima bw'abantu ni byiza cyane, aho abantu bahuriye ahantu hamwe kugira ngo bige ku bijyanye n'ubuzima, ndetse bahabwe n'amahugurwa mu buryo bwo kubungabunga ubuzima bwabo ndetse n'ubuzima bwa babo.

Inzobere, abayobozi, abaganga ndetse n'abandi bakomeye bateranye mu nama kugira ngo bige ku bibazo by'ubuzima bigenda bigaragara cyane mu ntara zimwe ndetse no mu duce tumwe na tumwe tw'igihugu.

Ni byiza cyane kwita ku buzima bw'abantu bose, iyi nama yateranye kugira ngo ibashe kugira abaturage inama uburyo bashobora kwita ku buzima bwabo ndetse n'uburyo barushaho kwirinda indwara zigiye zitandukanye,

Iki ni ikigo gishinzwe ubuzima ku isi, aho gitanga impano y'imiti ndetse n'ibindi bishobora kwifashishwa mu gufasha abantu harimo n'ibyabagirira akamaro muri rusange, iki ni ikigo gifasha abantu kwirinda indwara zitandukanye n'ibyorezo.

Abaganga aho bafasha ababyeyi bazanye abana babo kubakingiza ndetse no kubashakira izindi serivisi z'ubuzima, aho ibi bitaro bifite ibyumba bigiye bitandukanye, aba bantu bakaba bicaye aho bakirira abantu.

Abana bari ku ivomero aho bari kugenda bakaraba ndetse bakarabira mu ndobo bari kuvomeramo, ibi bituma imyanda ijya mu mazi bavomye maze abantu bakayakoresheje bakaba bashobora kurwara.

Abaganga bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'uwambaye umwambaro w'umweru, aho bari kureba aho bagiye kujya gufasha umurwayi ufite ikibazo ndetse bamushyiriye n'imiti yo kumufasha.

Ubufatanye mu gukumira indwara z'igihe zitandukanye ndetse no kuzirwanya, aho bagaragaza uburyo abantu bandura indwara zigiye zitandukanye n'uburyo bashobora kuzirinda mu buryo butandukanye.

Umuganga uri kugira inama abana, hanyuma akabaha n'imiti ibafasha gukira ku ndwara bari bafite, ni muganga wishimiye kubakira, aho ibi bituma abantu bumva bishimiye serivisi bahabwa.

Aho bakirira abarwayi bagiye batandukanye, mu gihe bategereje abaganga babafasha, aha hariho umugore ufite igikomere ku gahanga, ndetse n'igipfuko ndetse n'abandi bana bategereje kugira ngo bahabwe ubufasha.

Kwa muganga aho umuganga ari gusuzuma ibyiyemeje umwanawana umwana akaba ari kubabara cyane agashaka ko ba abikoraho ariko mama we akamufata amufashijwe n'undi mugabo kugira ngo babashe kumugora.

Inama yateranye iri gukora ikiganiro ku bijyanye n'uburyo abantu bagomba gushora mu bijyanye, n'ubuzima kuko abantu benshi badashoramo imari kandi ari ho ubuzima bwa benshi bushingiye.

Abana baje gutezwa inkingo, bari kumwe n'ababyeyi babo kugira ngo nibakura bazabe bafite ubuzima bwiza ndetse n'ubudahangarwa, ku ndwara zigiye zitandukanye zishobora kwibasira abana.

Abana bakwiye kwitabwaho, cyane cyane iyo bakiri batoya kugira ngo bataza kugira indwara ishobora kuba yabahungabanya. Uyu ni umuganga uri gusuzuma umwana wazanywe na nyina kwa muganga kugira ngo barebe indwara yaba arwaye.

Umumama wikoreye indobo irimo amazi ndetse agatwara n'indi ndobo mu ntoki, ibi ngibi biramuvuna cyane bigatuma atabasha gutekereza neza ndetse bikagaragara ko ari mu buzima butamworoheye mu buzima bw'ubukene.

Umumama wazanye umwana kwa muganga, aho muganga ari kugerageza kwita ku mwana, no kureba icyo umwana yaba arwaye, kugira ngo abashe kuba yamufasha, ndetse no kumuvura.

Ni byiza kwita ku buzima bw'abana ndetse no gukoresha amazi asukuye, iki ni ikigo cy'amashuri gifite imigezi itandukanye, aho abana bayikoresha bakaraba intoki nk'iyo bavuye mu bwiherero ku buryo bwo kwirinda indwara.

Abana bari mu mugezi usa nabi ndetse wanduye, aho bari kudaha amazi yo kujya gukoresha kandi aya mazi akaba arimo indwara nyinshi zigiye zitandukanye ndetse n'udukoko twabatera indwara, ibi bintu bikwiye kubwirizwa abantu bose kugira ngo birinde.

Umwana uri kuvoma mu tubuni dusa nabi ndetse nawe ahagaze mu mazi, ibintu bishobora kuba byamuteza indwara zitandukanye kuko amazi ahagazemo arimo udukoko dushobora kuba twatera indwara.

Abanyeshuri b'abahungu n'abakobwa, bicaye mu ishuri mu masaha yo gufata ifunguro, aho bari kurya ibiryo bitandukanye harimo umuceri, harimo kawunga ndetse n'imboga.

Umugabo uri kumwe n'umwana amukorera ijerekani iriho ikirango cya Yunisefu irimo amazi, umwana bigaragara nkaho yishimye ari kumwe n'umubyeyi we kuko n'uyu mubyeyi arimo araseka yishimye.

Umusore wicaye mu cyumba aho bamuzirikiye, afite agahinda gakabije cyane ndetse n'ibitekerezo bitamworoheye mu buryo ashobora kuva muri ubu buzima, afite ikibazo cyo mu mutwe banze kumurekura kugira ngo atagira ibyo yangiza.

Umubyeyi wicaye ku ntebe y'amaguru abiri, akenyeye igitenge ndetse yambaye n'inkweto zishaje, afite ibitekerezo byamurenze ndetse atari gutekereza neza kubera ubukene.

Abantu bari mu gahinda kenshi cyane, bababaye bigaragara nk'aho ari abakene cyane. Aba bantu barashonje bashaka ibyo kurya, imyambaro yabo irashaje, muby'ukuri ntibagira kirengera.

Umusore ufite agahinda cyane, uri gutekereza ibibazo byinshi byamurenze. Ari kumwe n'umukobwa uri kumuhumuriza, ndetse umubwira uti komera cyane kandi turi kumwe.

inzobere mu gusobanura ndetse no gusobanurira abantu, ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, abantu benshi ntabwo baba babisobanukiwe ndetse bakumva ari bazima, ariko iyo iyo basobanuriwe n'inzobere bituma babasha gusobanukirwa neza.

Umwana w'umukobwa wishimye uri kwisetsa, iki n'ikigaragaza ko abayeho neza mu buzima butamubangamiye, mu buzima butamuhohoteye, mubuzima yishimiye kubera imitekerereze ye nk'uko bigaragara.

Umuntu umeze nk'uba mu ishyamba, ufite ubwanwa bwamurariyeho, ufite imisatsi adasokoza, wambaye imyenda yacikaguritse ku buryo umubonye ushobora kubona ko abayeho mu buzima bubi cyane.

Umugabo ubabaye cyane ufite ibitekerezo byinshi , akaba ari kugenda azana amarira ku maso kubera ibintu byinshi afite mu mutwe ndetse n'ubukene b'umwugarije.

Ikirangantego, kiri mu ibara ry'umweru, kirimo utudomo twinshi tugiye dufatanyije n'udukoni, gifite inyuguti ya ma, inyuguti ya ha, inyuguti ya u ndetse n'inyuguti ya ba, akaba ari ikirangantego kigaragaza uburyo bwo gufasha abandi.

Ikirangantego cy'ikigo cyita ku buzima bwo mu mutwe, umunsi wabaye mu kwezi kwa cumi kugira ngo abantu bose bamenye ndetse banasobanukirwe iby'uburwayi bwo mu mutwe.

Inyubako nziza cyane, yubakishijwe amabuye ndetse na sima ku ruhande rwo hasi, ndetse iyi nzu ifite esikariye, bayubakiye kugira ngo umuntu abe yabasha kuzamuka avuye hasi agere ku nyubako.

Umubyeyi uri kuganiriza abandi babyeyi ibijyanye n'ubuzima, ibijyanye n'imitekerereze, ibikwiye ndetse n'uko abantu bakwiye kubana mu muryango mugari, aho bicaye baganira bari kumwe n'abandi bayobozi batandukanye.

Abantu bageze mu zabukuru baba bumva bashaka kwikinira n'abuzukuru, nk'uyu mukecuru ari kumwe n'abana be, abuzukuru be, basabana, bakina, bishimiye, ibi bituma umuntu adakomeza gusaza vuba, akumva ko nawe akunzwe.

Abana bakwiye kwitabwaho kugira ngo bagire imitekerereze myiza bakiri bato, abana bakiri ku ishuri aho babatoza neza ndetse bakabakorera ibibashimisha, kugira ngo ubwonko bwabo bwumve ko butekanye ndetse n'imitekerereze yabo ibe myiza.

Abana bishimye cyane barimo baseka bari ku ishuri aho bahuriye na bagenzi babo ibi bikaba bibafasha mu mitekerereze yabo ndetse no gukora bumva bishimye kumva ko batari bonyine ndetse no kumva bisanga mu bandi.

Inzu yabereyemo inama rusange yahuje urubyiruko, ababyeyi, abasaza, abakecuru n'abandi bantu, kugira ngo baganire ku byabateza imbere ndetse barusheho kwiyungura n'ubumenyi.

Ikigo cyita ndetse kigafasha abantu bahohotewe cyane cyane abakorewe ihohoterwa ry'igitsina, ndetse bakabafasha no kuba babona ubutabazi bw'ibanze ndetse n'ubuvuzi bw'ibanze, ku buryo badashobora kurwara indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina.

Ubuzima bwo mu mutwe ni ubuzima bugomba kwitabwaho kuva umwana agisamwa kugeza avutse ndetse anakuze kuko iyo ibyo bidakozwe bituma umwana ashobora kugira imitekerereze mibi ndetse no kumva yigunze cyane.

Abantu babaye mu buzima bukomeye nk'uyu mumama wikoreye ibyatsi ubaye mu bukene, cyane cyane imitekerereze yabo iba iri hasi cyane bigasaba ko babona umuntu ubagira inama.

Inzobere mu bijyanye n'ubuzima n'imitekerereze y'ubwonko, bavuye mu nama bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, nyuma yo kuganira ku buryo bashobora gukumira indwara zijyanye n'imitekerereze y'ubwonko.

Umuryango ukennye ndetse no kuba mubi bishobora guteza ikibazo cyo kuba umuntu ashobora gutekereza nabi. Abajyanama ku bijyanye n'imitekerereze basuye uyu mugabo kugira ngo bamugire inama ndetse bamwereke n'uburyo bukwiye bwo gutekerezamo.

Ni byiza cyane gufasha abarwayi bafite ibibazo bigiye bitandukanye, haba nk'ibibazo byo mu mutwe ndetse no kubitaho kugira ngo babashe kumva ko na bo bafite agaciro muri sosiyete ndetse babashe na bo kumva ko hari icyo bashoboye.

Aho buri wese ari ashobora guhura n'ikibazo cy'imitekerereze cyangwa ingaruka z'ibyo bibazo, igikwiye ni uko abantu bose bakwiye kugira ubwigenge ndetse bakigenga ndetse bakiyumva no mu muryango rusange.

Umugabo ufite ikibazo cyo mu mutwe yasuwe n'abantu batandukanye babadamu kugira ngo babashe kuba bamufasha kwitekerezaho ndetse barebe n'ikibazo yaba afite bamuganirize bamugire inama.

Ni byiza kugira inama, gushishikariza abantu bari mu buzima bubi bikaba bishobora gutuma batekereza nabi ndetse no kugira ibitekerezo bidakwiye, ni ngombwa kandi kubegera, kubaganiriza, kubahumuriza no kubagira inama.

Ni byiza kwita ku buzima bw'umwana akivuka nk'uko uyu mubyeyi yaziniye umunyabuzima umwana we kugira ngo amusuzume arebe indwara yaba afite, hanyuma bakamusuzuma ndetse bakareba n'igikwiye gukorwa.

Ibitaro by'Akarere byiza cyane byubatse neza, bifite aho baparika imodoka, ni ibitaro bigerekeranye bifite ibyumba byinshi bakiriramo abarwayi ndetse n'aho bavurira aba.

Ubuzima bujyanye n'ubwo mu mutwe aho abantu basuye urugo rugaragara nk'aho rutishoboye kugira ngo babagire inama ku bijyanye n'imitekerereze ikwiye ishobora kuba yabafasha mu kwiteza imbere.

Urubyiruko rwitabiriye inama aho bakurikiye ibyo abantu bari kugenda babigisha, n'urubyiruko rwitabiriye rurimo abasore ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye.

Ababyeyi babiri bafite abana b'uduhinja bari kumwe n'undi mukobwa umwe bicaye umukobwa afite telefoni asa nk'uri gusaba umubyeyi umwe umwana kugira ngo abashe kumukikira.

Abantu ni ngombwa ko bitabwaho cyane, aho abajyanama b'ubuzima bagenda bita ku baturage ndetse babegereza ubuvuzi, kugira ngo nabo babashe kumera neza ndetse hatagira n'ushobora kurembera mu rugo.

Umugabo uri kumwe n'umukorerabushake, aho bafashe indabo bazishyira aho bibukira ababobo aho ari kwibuka ababo ndetse abifuriza no kugira iruhuko ridashira.

Abanyeshuri bishimye cyane bari mu kigo cy'amashuri, aho ubuyobozi bwabo bubitaho, bukabatekerezaho, bukabaha umwanya wo kuganira kwishima kugira ngo ibitekerezo byabo birusheho kugenda neza.

Abantu benshi bagira ibibazo byo mu mutwe cyangwa bagatinya kubyivuza kubera yuko iyo barangije kubimenya bishobora gutuma batekereza nabi ndetse bakaba bashobora no kwiheba, ariko ibyiza ni ukubimenya hanyuma umuntu akamenya uko yiyitaho.

Inzobere mu bijyanye n'ubuzima ndetse n'abayobozi harimo n'abaganga bita ku buzima bwo mu mutwe aho bakoze inama kugira ngo baganire ku munsi w'ubuzima bwo mu mutwe ku isi hose ndetse babashe no kuba bafata ingamba zikwiriye.

Umuganga Uwihoreye ushinzwe ikigo cy'ubuzima bw'abafite ubumuga bwo mu mutwe, aho ari kugenda abwira abantu ndetse abasobanurira ibijyanye n'ubuzima bw'ubumuga bwo mu mutwe kugira ngo babashe kubumenya.

Urubyiruko rw'abakorerabushake bahagararanye n'umunyamahanga ndetse n'undi muntu ubafasha mu kumenya inzozi zabo kuziteza imbere kubigisha indangagaciro ndetse no kubakundisha umurimo.

Umuganga uri gufasha umwana ku bijyanye n'indwara z'amenyo, aho ari kureba aho abarwaye iryinyo kugira ngo abashe kuba yarikura cyangwa amuhe imiti cyangwa abe yarivura mu buryo buhoraho ku buryo atazongera kubabara iryinyo.

Umusore watangaye cyane, wagira ngo hari ikintu ari gutangarira, ari gushaka kwamamariza abantu, kugira ngo abo bantu bose bakitabire abereka ko icyo kintu ari kiza cyane.

Abana b'urungano bakiri bato cyane, aho bari ku ishuri babigisha uburyo bwo gusukura amenyo yabo bakoresheje umuti w'amenyo, kugira babe bakirinda indwara zishobora mu guturuka mu mwanda w'amenyo.

Abantu bari hamwe bari kuganira kubijyanye n'ubuzima bw'amenyo ndetse n'uburyo bashobora kuyitaho, ni ikipe ngari yambaye imipira yanditseho tubiteho aho bafite imiti y'amenyo.

Imashini kabuhariwe yifashishwa mu buvuzi buteye imbere bw'amenyo, aho iyi mashini ishobora kwifashishwa mu guhoma amenyo, mu kuyakura ndetse no kuvura amenyo mu buryo busanzwe. Iyi ni imashini koranabuhanga yifashishwa mu kuvura amenyo ku buryo bwa gihanga.

Ubuzima bujyanye n'ubw'amenyo, aho uyu muntu afite amenyo afite ibibazo ndetse bakwereka n'uburyo amenyo y'umuntu yakagombye kuba ateye ndetse n'uburyo umuntu agomba kuba yafata amenyo ye neza.

Amenyo akwiye kwitabwaho cyane, nk'uko uyu mugabo ufite ubwanwa ari kugenda akura imyanda mu menyo ye akoresheje kano gakoresho, kugira ngo imyanda itaza gukomeza kwica amenyo ye.

Inzobere ndetse akaba n'umuganga mu by'amenyo, aho ari gufasha uyu musore ufite umusatsi ndetse n'ubwanwa, kugira ngo abe yamwereka uburyo bwo gukesha amenyo ye ndetse no kuyavura kugira atajya ahura n'ibibazo.

Inyubako y'ibitaro nziza cyane irimo ibyuma kabuhariwe ndetse n'ibyuma koranabuhanga byifashishwa mu gusuzuma abantu indwara zitandukanye bagiye bafite, ndetse no kuvura izo ndwara abantu bafite.

Amenyo akwiye kwitabwaho muburyo ubwo aribwo bwose, uyu ni umugabo ufite urudodo, aho uru rudodo agenda aruhanaguza amenyo ye, kugira ngo abashe gukuramo imyanda igenda ifatwa mu menyo igihe ari kurya.

Icyumba cyiza cyane kirimo imashini kabuhariwe yifashishwa mu kunyuza abantu mu cyuma, mu kureba indwara barwaye ndetse no kumenya aho abantu bababara, cyane cyane abantu baburiye ndwara.

Umuntu wasamye ufite akantu karinda amenyo, akoresha kugira amenyo ye abashe kuyakuramo imyanda ndetse no kurinda amenyo ye, ndetse no kuba aka kantu gashobora gusimbura amenyo atarimo.

Inzu kabuhariwe ikorerwamo ubuvuzi butandukanye, iki ni icyumba bifashisha kugira ngo babashe gutanga serivisi z'ubuzima cyane cyane izerekeranye n'amenyo, hari n'icyuma gishobora kureba mu kanwa k'umuntu kikamenya iryinyo rirwaye ndetse no kuryitaho harimo nko kurikora cyangwa kurikura.

Umuganga uri kwita ku buzima bw'amenyo bw'umwana, aho afite agakoresho gakura imyanda mu menyo ndetse n'akandi gakoresho yifashisha ari kureba aho iryinyo rifite ikibazo riherereye.

Amenyo ni ingenzi cyane ku buzima bwa muntu kuko adufasha kurya ndetse no kuba dushobora gukanjagura ibiryo, iyo rero utayitayeho neza bishobora gutuma arwara bikaba byatuma ugira ubuzima bubi.

Igikoresho kabuhariwe kifashishwa mu kuvura amenyo ndetse no kureba ikibazo amenyo afite iki gikoresho cyifashishwa mu guhoma amenyo kuyasana ndetse no kuyavura ndetse no gusuzuma ikibazo afite.

Udukoresho tugiye dutandukanye bifashisha kwa muganga iyo bari gutanga serivisi z'amenyo, harimo udukoresho dukura imyanda mu menyo, hakabamo udukoresho bifashisha bahoma amenyo n'utwo bifashisha boza amenyo.

Ni byiza cyane kwita ku buzima bw'amenyo kuko amenyo ni kimwe mu bice bigize umubiri wa muntu, bifite akamaro cyane kuko bimufasha kubona uko afata amafunguro ye ya buri munsi ndetse bikamufasha no kugira ngo abashe kuvuga amagambo.

Umuganga uri kumwe n'umusore ufite umusatsi w'inzobe aho umusore yabumbuye umunwa akereka muganga iryinyo riri kumuya, muganga nawe we akazana akantu akoresha mu kuvura amenyo ndetse no kuyasuzuma kugira ngo abashe kumufasha.

inyubako y'ibitaro bigezweho byiza cyane irimo aho bakurira amenyo, aho bogereza amenyo, aho bahomera amenyo, ndetse n'aho batangi izindi serivisi zose zerekeranye n'amenyo.

Umwarimu wo mu ishuri rikuru uri kwigisha umunyeshuri mu buryo bw'ibikorwa bwo kuba yavura amenyo cyangwa agasukura amenyo, akoresheje uburyo bw'ibikorwa kugira ngo umunyeshuri abashe gusobanukirwa neza.

Icyumba cyiza cyane kiri mu bitaro aho iki cyumba gikorerwamo ubuvuzi bw'amenyo, harimo koza amenyo, kuringaniza amenyo, guhoma amenyo yaba yaragize imyobo ndetse no gukura amenyo.

Ni byiza kwita ku buzima bw'amenyo ukiri muto nk'uko biri gukorwa n'uyu mwana wafashe uburoso akaba ari koza amenyo ye akoresheje umuti w'amenyo kugira ngo amenyo ye atazahura n'ikibazo.

Umugabo uri gukoresha urudodo asukura amenyo ye kugira ngo avemo imyanda nyuma yo kurya iba yagiyemo, igacengera imbere mu menyo ku buryo iyo umuntu ayasukura itabasha kugaragara.

Umusore uri guseka ugaragaza amenyo ye meza cyane kubera ko ayitaho agakoresha umuti w'amenyo utuma acya ndetse agasa neza, ndetse bigatuma adashobora kugira indwara z'amenyo.

umumama ugaragara nk'aho akoze ari kumwe n'umwana we w'umujei aho amwereka uburyo yakagombye gufata amafunguro yuje intungamubiri arimo imbogaimbuto ndetse n'inyanya kugira ngo abashe kuba yakira ubuzima bwiza Umumama ugaragara nkaho akuze ari kumwe n'umwana we w'umujeni aho amwereka uburyo yakagombye gufata amafunguro yuje intungamubiri, harimo imboga n'imbuto ndetse n'inyanya kugirango abashe kuba yagira ubuzima bwiza.

Gukora siporo ni byiza cyane, uyu ni umugore uri gukora siporo yambaye imyenda ya siporo ndetse n'inkweto za siporo, aho ari kugenda arambura amaboko ye ayakoza ku mano kugira ngo arambure amaboko ndetse n'amaguru icyarimwe.

Abadamu babiri bashaje, aho barigufata imbuto zigiye zitandukanye kugira ngo bategure amafunguro. Aho bafitemo inyanya ndetse n'izindi mbuto zigiye zitandukanye.

Abageze mu zabukuru bakwiriye kuganirizwa, kwitabwaho ndetse no kurerwa n'abo babyaye cyangwa urungano kuko nta mbaraga baba bagifite zo gukora ndetse bakwiye kwerekwa ibintu bibashimisha.

Ni byiza cyane kwita ku buzima bw'abakuze, kuko bibafasha gutekereza neza, kumva kumva ko bakunzwe, ndetse no kugira icyizere cy'ubuzima. Bigatuma batiheba ndetse bakumva bakomeza kwiberaho.

Umugore ushaje uri muri siporo, uri kugenda yimenyereza uburyo bakora siporo, aho yarambuye amaguru ye ariko ntarambuke neza kubera kudakora siporo igihe kirekire, akaba yafashe amaboko ye akayashyira ku mano kugira ngo arebe ko yagorora na n'amaboko.

Ni byiza kwita ku buzima bw'abakecuru n'abasaza, mu buryo bwo gutuma bagira ibyishimo no kumva ko batari bonyine, ibi bibafasha kuramba ndetse no kumva ko bafite aho bari inyuma, muri ubwo buryo abana bakenera n'ababyeyi ndetse bakababa hafi mu buzima bw'izabukuru.

Abantu bakuru baba bafite imbaraga nkeya ndetse yabotangiye abaganga babafasha kubita kugira ngo bananure amaboko yabo nk uyu muganga w'umugore ariwe kubikorera uyu musaza.

Abagore benshi bari muri koperative, aho bari gusarura icyayi bagenda bagishyira mu tuntu tumeze nk'udutebo kugira ngo babashe kuba babasha kubona icyo bagurisha.

Abagore, abasaza, abakecuru, abana bishimye cyane batangaye cyane ndetse bafite umunezero mu muryango wabo udasanzwe aba bantu barishimye ku buryo bahimbaza imana.

Umusaza w'umuhanga cyane wifashe mu gahanga aho ari kugenda asoma igitabo ndetse akora n'ubushakashatsi kuri mudasobwa afite ikirahure cy'amazi agenda asomaho uko agenda asoma iki gitabo.

Umuganga wita ku bibazo ndetse no ku ndwara zibasira abantu bakuze. Aho bita ku buzima bw'abantu bakuze kugira ngo batabasha guhura n'indwara zigiye zitandukanye mu buzima bwabo, bikaba bishobora gutuma bashobora kupfa mu gihe kidati.

Abakecuru babiri bari kumwe bitwaje udukoni kugira ngo badatsikira, abakecuru ni abantu baba badafite imbaraga b'igitsina gore, bisaba kugira ngo bitabweho cyane ndetse bitabweho neza kuko nta mbaraga baba bagifite.

Ubuzima ndetse n'ibibazo abakozize bahura na byo ni byiza kubyitaho kugira ngo dukomeze kubungabunga ubuzima bwabo nkaaba bagabo barimo barakora siporo bishimisha kugira ngo barebe ko iminsi yakwigira imbere.

Ni byiza cyane kwita ku buzima bw'abakuze, kuko bakunda guhura n'indwara nyinshi, zishobora gutuma bagira ibyago byo kuba bapfa vuba, ariko iyo bitaweho bituma nabo babasha kuramba ndetse bakishima.

Abantu bageze mu zabukuru bakwiye gukoreshwa siporo, ndetse no kubitaho kugira ngo babashe kumva ko bari kumwe n'abandi, ndetse bumva ko bishimye bagorore umubiri kugira ngo batabasha guheranwa n'agahinda.

Umwana w'umukobwa uri gufasha umukecuru gukora siporo ngororamubiri, aho ari kumuha akantu aterura kugira ngo arambure imitsi ye ndetse abashe no kongera kuzana imbaraga mu kuboko.

Ubuzima bw'abantu bakuru buba bugomba kwitabwaho mu buryo bw'umwihariko kuko iyo utabyitayeho bashobora guhura n'indwara z'izabukuru zikaba zishobora gutuma baremba cyane ndetse ntibarame.

Abakecuru n'abasaza, urubyiruko, urungano ,inkumi n'abasore aho bicaye baganira n'abasaza kugira ngo babashe gusangira ibyishimo by'ubuzimabi bifasha abageze mu zabukuru kumva ko batari bonyine.

Ni byiza cyane kwita ku buzima bw'abakuze tugenda tubaha ibinini bibafasha kubaha ibintu biryohereye kugira ngo bibongererere isukari, kubaha imbuto zigiye zitandukanye kugira ngo na bo babashe kugira ubuzima bwiza.

Umuganga w'umuforomo uri kumwe n'umukecuru, aho ari guha uyu mukecuru utunini tumufasha gukira indwara, aho yamuzaniye amazi mu kirahuri kugirango akoreshe ayo mazi anywa umuti.

Umusaza n'umukecuru bishimye, barimo bafata amafunguro akungahaye kuri vitamine, ayo mafunguro arimo imboga, harimo imbuto zigiye zitandukanye, zibafasha kubona intungamubiri zihagije.

Umusaza uri kumwe n'umwuzukuru we w'umukobwa ndetse n'undi mwuzukuru w'umuhungu. Aho bari gusangira ndetse umwe akaba afite akaguni karimo amata kugira ngo abashe kunywa amata yirinde indwara anywe na vitamine.

Ni byiza cyane kwita ku buzima bw'abakuze nk'uko uyu mudamu ari kwita kuri uyu mukecuru, amuha amafunguro meza akozwe mu mbuto ndetse amuha n'imbuto kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kugenda neza.

Ni byiza cyane kwita ku buzima bw'abakuze, cyane cyane nk'uyu utakibasha kugenda kuko ashobora guhirima, ni yo mpamvu bashoboye kumugurira agakoresho ashobora kwifashisha ahagarara kugira ngo atagwa.

Abageze mu za bukuru bakwiye kwitabwaho, nk'uko uyu mugabo ari kwishima ari kumwe n'umugore we birabashimishije cyane. Kubera y'uko ubuzima babayemo bubashimisha ndetse bakabona umwanya wo kuganira no gukina.

Abantu bakuze bakwiye kwitabwaho nk'uko uyu musaza ufite agakoni mu ntoki, mubona yishimye cyane ndetse ari kumwe n'umuganga uri kumufasha kumwitaho kugira ngo yumve ko nawe afite abamukunda.

Abantu bageze mu zabukuru bakwiye kwitabwaho, nkuko mubibona uyu muganga ari kwita ku musaza ugeze mu za bukuru, amwereka utuntu dushimishije muri telefoni dutuma nawe yumva yongeye kwishima.

Abantu bari mu zabukuru bakunda kurwara indwara zigiye zitandukanye, ni byiza ko bisuzumisha nk'uko uyu musaza yaje kwisuzumisha indwara zigiye zitandukanye kugira ngo bamenye uko yazirinda.

Ni byiza kwita ku buzima bw'abakuru nk'ababyeyi bacu iyo bari kugera mu zabukuru, aho baba batakibasha gusabana n'abandi, iyo abana babo babitayeho bumva bishimye ndetse bakumva ko batari bonyine.

Umuganga w'umukobwa ukiri muto uri kuganiriza umusaza ukuze kugira ngo amwereke y'uko uburyo agiye kumuvuramo butababaza, ari kugenda amufata ibipimo bigiye bitandukanye kugira ngo amenye icyo arwaye.

Abari mu zabukuru nk'uyu musaza bakunze kugira ikibazo cyo kugira indwara zitandukanye ndetse batazi inkomoko yazo, aho uyu muforomo ari kwita kuri muganga kugira ngo abashe kumenya icyo arwaye.

Inama yahuje abayobozi, ndetse n'abahanga mu by'ubuzima, kugira ngo harebwe icyakorwa kugira ngo icyorezo cya Marburg cyari cyateye mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane kibashe guhagarara.

Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi aho ikibazo cyo gukuramo inda ku bakobwa b'abangavu cyari cyabaye ikibazo cy'ingatu, ibi byasabye ko bakora ubushakashatsi ndetse bakora n'ubuvugizi n'uburyo bwo kwigisha abo bana b'abakobwa.

Umuntu ugize ikibazo akarwa hasi bagahita bamuzanira ubutabazi bw'ibanze burimo imiti ndetse n'abaganga ndetse n'abakorerabushake baje kugira ngo babafashe kuba bamuterura bakamubafasha.

Ababyeyi bafite abana b'impinja baje kubateza inkingo kugira ngo babarinde ko bahura n'indwara cyane cyane zibasira abana bakiri batoya n'uburyo bwo kubarinda izindi ndwara.

Hari ibimenyetso byinshi bigaragazwa n'indwara ya Diyabete cyangwa n'umuntu urwaye iyo ndwara, bikaba byaragaragajwe n'ikigo cy'ubushakashatsi cya RHIA cyakoze ubushakashatsi mu Rwanda.

Igikoresho cyifashishwa kwa muganga mu gupima indwara yitwa manki pokisi, ituruka ku nkende, aho iki ari icyorezo cyari cyateye, barimo bagishakira umuti n'uburyo bwo kuba bapima ko umuntu yacyanduye.

Ikiganiro cyitabiriwe n'abagore babiri b'abaganga ndetse n'abagabo batatu b'abaganga, kiri kuvuga mu kudasiga inyuma umuntu n'umwe ku burenganzira bwo kubagwa cyane cyane mu duce tw'icyaro muri Afurika.

Umugabo wicaranye n'umugore ndetse n'abana batatu barimo baganira ku bijyanye n'ubuzima butandukanye, aho ababwira uko bagomba kwitwara ndetse abagira n'inama zigiye zitandukanye.

Igishushanyo mbonera kigaragaza uduce dutandukanye n'inzira zitandukanye, umuntu ashobora gukoresha kugira ngo abashe kuba yagera ku iterambere rirambye, iki gishushanyo uramutse ugikoresheje byagufasha kugera ku ntego zawe byoroshye.

Abaganga bagira uruhare rukomeye cyane mu kwita ku buzima bw'ababagana, ndetse bafatanyije n'inzobere n'abashakashatsi mu by'ubuvuzi, batwereka neza ko ibyo tugomba gukora bigomba kuba biganisha kugira ngo ubuzima bwacu bugende neza.

Abantu bakwiriye kumenya uburyo bagomba kwirinda ku buzima bwabo, ndetse n'icyo bakora kugira ngo barinde ubuzima bwa bantu, ni byiza gufata imiti, gufata inyingo n'ibindi byose bishobora gutuma ubuzima bukomeza kugenda neza.

Agakoko kandurira mu mibonano mpuzabitsina ni kabi cyane kuko iyo karamutse kakugezemo ntushobora kongera kugira icyo ukora ufite imbaraga, kuko kamunga ubuzima bwawe, bityo ukaba ushobora no gukomeza kurwara cyane.

Umuturage uri kumwe n'umuganga, amutera urukingo rw'icyorezo kugira ngo abashe kumurinda ndetse abashe no kugira ubudahangarwa bwo kuba yakandura icyorezo cya covide.

Ikirango cyanditswe mu nyuguti ya ha ibiganza bibiri bifatanye ndetse n'inyuguti ya ra kiri mu ibara ry'ubururu, aho ibiganza bibiri bifatanye bishaka kutwereka ko turamutse dufatanyije twagera kure.

Urubyiruko uruhare rwarwo mu kurinda u Rwanda virusi itera Sida, aho bari gushishikariza abantu b'urubyiruko cyane cyane bababwira bati "rubyiruko nimwe hazaza h'uru Rwanda, irinde virusi itera Sida, ipimishije uyu munsi".

Ukuboko kuri kubabara kuriho indwara y'uruhu hariho ibiheri byinshi cyane, ibi biheri bikaba bigiye bitutubikana ku kuboko bikaba bifite ingaruka kuko bishobora kuba bimutera uburibwe.

Ifoto igaragaza ingero z'inkingo zagiye zitangwa kugira ngo babashe kwirinda icyorezo cya covide cumi n'icyenda cyari cyatewe, aho bagaragaza ijanisha ry'uburyo iyo ndwara igenda ikwirakwizwa n'uburyo ishobora guhagarikwa.

Ikigo gishinzwe kwita ku buzima ni byiza ko abantu bakomeza kwita ku byo barya ndetse bakareba n'ubuziranenge bw'ibyo barya kugira ngo bitaba byabakururira indwara zigiye zitandukanye ndetse n'uburyo bwo kuzirinda.

Ikigo gishinzwe umwuga w'ubuzima ndetse n'abaganga mu Rwanda aho ari ikigo kiri mu nyuguti ya ra, a, ha, pa ndetse na ca iki ni ikigo gifata imyanzuro ku bijyanye n'ubuzima ndetse n'ingamba zishobora gukurikizwa.

Ikirango gihamagarira abantu kwirinda indwara y'Ubushita bw'Inkende, iyo ni ndwara iterwa no kuba abantu bajya mu ishyamba bagakora ku nyamaswa nk'inkende, ni inyamaswa ishobora kuba yakanduza ubwo bushita ku buryo bworoshye.

Inama yateranye iri kuganira ku ngamba z'ubuzima ndetse n'uburyo bashobora kumenyesha abantu ibijyanye n'ubuzima, aho bari kuganira ku buryo bwo gusubiza abantu ubuzima ndetse no kubagira inama.

Abaminisitiri babiri bashinzwe ubuzima, aho bari kuganira uburyo bashobora gufata ingamba zo kurinda indwara ndetse no kugabanya, umubare w'abantu bandura indwara zigiye zitandukanye, kugira ngo babashe kugira abantu bazima.

Abayobozi batandukanye, b'inzego zitandukanye ndetse na Minisiteri zitandukanye. Aho bari kumwe bari ku ifoto. Bavuye mu nama yo kureba uburyo bashobora kurinda abaturage indwara ndetse n'uburyo bashobora kureba uburyo bwo kubafasha.

Icyumweru cyahariwe kurwanya indwara zikomoka ku isukari nyinshi ndetse no kubura kw'isukari mu mubiri, aho muri iki cyumweru bashishikariza ndetse bakigisha abantu ku bijyanye n'iyi ndwara mu buryo bwo kuba babasha kuyirinda.

Inama mpuzamahanga yitabiriweye n'abantu bagiye batandukanye, aho umugabo ari kuvuga ijambo imbere y'indangururamajwi ndetse bamufata n'amafoto kugira ngo babashe kuba bayakoresha nyuma.

Kurya imboga n'imbuto ni ingenzi cyane, iyi ni inama yahuje abaganga n'inzobere mu by'ubuzima, kugira ngo bashishikarize abaturage kurya imbuto yuzuye, kuko ituma ugira ubuzima buzira umuze.

Abantu bagomba gukoresha imiti yizewe ndetse yakozwe n'ibigo byizewe, imiti ifite ubuziranenge kugira ngo dukomeze kurinda kubura ubuzima bw'abantu benshi, bakoresha imiti itizewe bikaba byabagiraho ingaruka nyuma.

Urubyiruko rukiri ruto, ni byiza kurwigisha uburyo bwo kwirinda indwara ndetse no kubungabunga ubuzima, hano hari urubyiruko rutandukanye rwiganjemo abakobwa benshi ndetse n'abategarugori, aho bakurikiranye ikiganiro kijyanye no kwita ku buzima bwabo.

Inama yahuje abagore benshi cyane kugira ngo babashishikarize kujya mu buyobozi mu duce dutandukanye tw'isi no kubereka ko bashoboye ndetse bafite imbaraga kandi babigeraho babishaka.

Inama yahuje abayobozi bagiye batandukanye abaminisitiri batandukanye, aho barikuvuga uburyo barinda ubuzima. Inama yabaye mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane, bakaba barikuganira uburyo bashobora kwita ku buzima.

Icyuma kigezweho cyifashishwa mu gusaka abantu, mu kureba ibyo bafite mu bikapu byabo kugira ngo babashe kuba bakinjira ahantu bakeka ko haba umutekano muke, hakaba hakangirika ibintu byinshi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho kabuhariwe byifashishwa mu gusuzuma indwara, aho abantu badashobora kurebesha amaso cyangwa utuntu duto abantu badashobora kubonesha amaso yabo.

Inyubako y'ibitaro yifashishwa mu kubyaza ababyeyi, aha ababyeyi bafite inda zigeze igihe cyo kuvuka, niho bahurira hanyuma bakitabwaho n'abaganga b'inzobere kugira ngo babashe kuba babavutsa abo bana.

Inyubako igezweho y'ibitaro bya Kabgayi, aho abaturage batandukanye bagenda bajya kwivuza kuri ibi bitaro, kugira ngo babashe guhura n'abaganga babavure indwara zigiye zitandukanye.

Inyubako nziza cyane igezweho irimo ibyuma kabuhariwe byifashisha mu kuvura abantu ndetse no kumenya icyo baba barwaye kugira ngo babashe kuba babaha imiti igendanye n'indwara zabo.

Inyubako nziza cyane, ndetse igezweho, itangirwaho serivisi z'ubuzima. Ni inyubako yubatse mu buryo bugerekeranye, hakaba hariho abantu bagiye batandukanye, baje gushaka serivisi zijyanye n'ubuzima, harimo nko kwivuza.

Inyubako nziza cyane itangirwamo serivisi z'ubuzima, aho hari ibyumba bitandukanye abarwayi bajyamo kugira ngo, babashe kwivuza bitewe n'icyo barwaye, iyi nyubako ni inyubako igezweho itanga serivisi mu buryo bugezweho.

Ikigo gishinzwe kwita ku buzima cyitwa Legacy Clinic. Aho gifasha abantu gukira ndetse n'ibigwi byabo kuko ababaganye bakunda guhita bakira, ni nayo mpamvu bakise Legacy Clinic.

Icyuma kabuhariwe kifashishwa mu kuvura abantu kiri mu nyubako nziza y'ibitaro, aho abantu baza bakabanyuza muri iki cyuma babafotora kugira ngo barebe aho baba bafite uburwayi.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro, yagutse, irimo ibyumba byinshi bagenda bavuriramo abarwayi, ifite ubusitani bwiza cyane ndetse n'inzira nyabagendwa zikoze neza cyane.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro irimo aho binjirira hameze neza ndetse irimo aho bakirira abantu, ibyumba bigiye bitandukanye bakiriramo abarwayi ndetse n'aho babavurira.

Inyubako nziza cyane ibikwamo bimwe mu bice by'umubiri abantu baba bakeneye ndetse n'imiti yihariye abantu bashobora gukenera, aha bahabika ibintu bishobora kwangirika kugira ngo bitangirika vuba.

Icyumba cyo kwa muganga bakoreramo isuzuma kugira ngo babashe kumenya icyo umurwayi yaba arwaye ndetse bamufate n'ibizamini kugira ngo babone uko bamuvura.

Ibitaro byiza cyane bigezweho, birimo icyumba basuzumiramo ndetse bakanyuza n'abantu mu cyuma, aho ibi bitaro bifite ibikoresho kabuhariwe byifashishwa mu gusuzuma abantu indwara zigiye zitandukanye.

Ibitaro birimo icyumba kirimo umugore uri kwita ku mugabo urwaye, aho yamuryamishije ku gitanda kugira ngo abashe kumusuzuma no kumufata amaraso arakoresha kugira ngo amenye icyo arwaye.

Ibitaro byiza cyane bigezweho, birimo intebe nziza, birimo amezi meza yifashishwa iyo bari gusuzuma abarwayi ndetse no kwakira abarwayi kwa muganga, kugira ngo babashe guhabwa serivisi z'ubuzima.

Inyubako nziza cyane, icuruza imiti yita ku bwiza n'ubuzima bw'abayigana, ni inyubako iherereye mu mujyi, aharimo imiti y'ubwoko bugiye butandukanye, ndetse igurwa n'abakiriya baturiye ahongaho n'abandi bose.

Ibitaro by'akarere ka Nyarugenge, bikikijwe n'indabo nyinshi, ni inyubako nziza cyane ifite umuhanda mwiza uhagera, aho abaturage babasha kwivuza kuri ibi bitaro bikuru by'akarere.

Inyubako icururizwamo imiti iherereye i Kanombe. Ni inyubako nziza cyane ushobora gusangamo imiti y'ubwoko bwose yaba imiti ivura umutwe, imiti ivura ibisebe ndetse n'indi miti ushobora gukenera.

Isange n'ikigo kiri ku bitaro bya Kabutare, aho hari abantu b'abagabo ndetse n'abakobwa, bagaragaza ko basobanukiwe ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, aho bafasha abantu bahohotewe kurenganurwa.

ibitaro byiza cyane, bifite ubusitani burimo indabo zitoshye ndetse n'umucaca mwiza cyane, hari ibiti bifite amahumbezi, hari inyubako nziza cyane ndetse n'imodoka abakozi b'abaganga bagendamo iyo basoje akazi kabo.

Farumasi Iraguha, ni farumasi icuruza imiti myinshi ndetse ni farumasi nini cyane, aho abayigana bose babasha kwakirwa ndetse bakabona serivisi n'imiti bari bakeneye.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro, ifite ubusitani, ifite utuyira twiza, ifite indabo, ifite aho bakirira ababagana, ifite ibitaro ndetse bihagije n'ibyumba bakiriramo abarwayi.

Inyubako z'ibitaro aho bakorera ubushakashatsi ku bijyanye n'ubuzima. Aha haza abarwayi bagiye batandukanye, kugira ngo babakorereho ubushakashatsi ndetse bashake n'imiti ishobora gukiza indwara baba barwaye.

Umuganga wicaye ku ntebe, yambaye umwambaro w'akazi, aho ategereje umuntu avura, uyu ni umuganga uvura amenyo nk'uko bigaragara ari impande y'igitanda, yifashisha akura abantu amenyo.

Inyubako nziza cyane irimo ibikoresho bigezweho byifashishwa mu kuvura abarwayi bagiye batandukanye, harimo ibitanda bigezweho, harimo isaha ndetse n'ibindi bikoresho abaganga bagenda bifashisha mu kuvura abarwayi.

Ikigo kigezweho cyiza cyane aho abagore babyarira hakaba hari abagabo babiri baje kureba abagore babo baje kubyarira kuri iki kigo hanze hari intebe abategereje ababo bicaraho.

Inyubako nziza cyane y'ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi, yubatse neza cyane, hariho indabo, isakaye neza ndetse hariho abantu baje gushaka serivise z'ubuzima.

Ikigo gikorerwamo ubushakashatsi ku ndwara ya Malariya ikunze kwibasira abantu ndetse no kubateza ibyago bikomeye cyane, iyi nyubako ni inyubako nini cyane ndetse ifasha n'abantu kuba bakira iyi ndwara.

Ibitaro bikuru by'Akarere ka Nyarugenge. Ni ibitaro byubatse neza cyane, bifite ubusitani bwiza ndetse n'indabo nziza cyane zitera amahumbezi muri ibyo bitaro. Ni ibitaro bifite ibyumba byinshi byakirirwamo abarwayi.

Ibitaro birimo icyumba cyiza ndetse kirimo ibikoresho bifatika byifashishwa mu kunyuza abantu mu cyuma kugira ngo barebe indwara zitagaragara ndetse n'indwara zo mu mubiri imbere, batabasha kubonesha ibindi bikoresho.

Ibitaro by'akarere bya Sira byubatse neza biragerekeranye byakira abarwayi benshi cyane ndetse bifite ibyumba byinshi n'abaganga bita kuri abo barwayi, ni ibitaro bigezweho ndetse bifite n'ibyuma koranabuhanga byifashishwa mu kuvura.

Umubyeyi uhetse umwana ahagaze imbere y'ikigo cyita ku buzima aho yaje gushaka serivisi zigendanye n'ubuzima harimo nko kuba yavuza umwana we mu gihe yaba afite ikibazo iki ni ikigo gifasha abantu kwivuza ndetse no kubona izindi serivisi zirekeranye n'ubuzima.

Inyubako y'ibitaro iriho umwana uri mu kagare, ufite ubumuga bw'ingingo, utabasha kugenda, akaba ari mu kagare kamufasha kujya kwa muganga kugira ngo babashe kumwitaho.

Icyumba gikoreramo umuganga usuzuma abantu kugira ngo abereke imiterere y'umubiri wabo, ni ibiro byiza birimo ameza, birimo intebe ndetse na mudasobwa ikoreshwa kugirango abashe kuba yakandika abo bantu.

Inyubako nziza cyane, inyubako igerekeranye igaragaza Ikigo nderabuzima cya Kanyinya, aho inyubako ari nshyashya ndetse izajya itanga serivisi zijyanye n'ubuzima.

Icyumba kirimo umwana ndetse n'umuganga wishimye cyane urangije kubyaza umumama, akaba akazanye muri iki cyumba kugira ngo aka kana kitabweho neza ndetse no mu buryo bwizewe.

Inzu y'urusengero aho abantu benshi bitabiriye baje kumva ijambo ry'Imana ndetse no gusenga no guhimbaza Imana. Hari abana, abakecuru, abasaza ndetse n'abandi bagiye batandukanye.

Umumama wishimye cyane uri ku bitaro aho arangije kubyara, umwana ari kumwe n'umuganga, ibi ni ibitaro bibyarizwamo ababyeyi bafite inda ndetse bagejeje igihe cyo kuba babyara.

Inyubako nziza y'ibitaro irimo aho basohokera, aho binjirira hari ibitanda bigiye bitandukanye abarwayi baryamaho, ni inyubako ifite amatara meza cyane amurika ahantu hose, ku buryo umuntu uri muri iyo nyubako aba abona neza.

Inyubako nziza cyane yo kwa muganga, aho bakirira abarwayi, hari intebe nziza zigezweho abarwayi bicaramo ndetse n'intebe ziri kumwe n'ameza, aho ababakira na bo baba bicaye.

Inzu y'ubucuruzi aho bacuruza ibintu bitandukanye, cyane cyane indorerwamo zo kureberamo zitandukanye, haba ari iz'abantu bafite uburwayi bw'amaso cyangwa ahantu basanzwe.

Inyubako nziza cyane kandi igezweho, yubatswe mu buryo bwiza, itangirwamo serivisi z'ubuzima ,aho abakeneye kwivuza indwara zigiye zitandukanye bagana, ibi bitaro bikaba byabafasha kubona ubuvuzi.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro, irimo ibyumba bigiye bitandukanye, aho bavurira indwara nyinshi zitandukanye ndetse n'ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, kuri iyi nyubako niho abarwayi bahurira bagahabwa serivisi z'ubuzima.

Ikigo cy'amashuri cyubatse neza gifite ikibuga kimeze neza gifite uruzitiro rumeze neza ikigo gifite aho abanyeshuri bidagadurira bakarya umunyenga hanyuma bakabasha kuruhura mu mutwe.

Abaganga b'inzobere bari kuvura abarwayi bafite ibyorezo bitandukanye, aho bagiye bipfuka umubiri wose kugira ngo batagira indwara ishobora kuba na bo yabageraho.

Ikigo cyubatse neza cyita ku barwaye Kanseri aho abantu batandukanye bashobora kujya kwivuza indwara ya Kanseri, ni ikigo giteye neza kiriho indabyo nyinshi.

Inyubako nziza cyane, yifashishwa mu kuvura abantu bagiye batandukanye, aho harimo ibyumba byinshi, ndetse n'imiryango abantu binjiramo, bitewe n'indwara barwaye, kugira ngo babashe gufashwa.

Inyubako y'ibitaro kabuhariwe yubatse neza, yuzuyemo ibyuma koranabuhanga harimo za mudasobwa, harimo kamera ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gusuzuma indwara umurwayi yaba arwaye iyo ariyo yose.

Inyubako nziza cyane, icururizwamo imiti ivura abantu aho hari imiti igiye itandukanye, haba imiti yifashishwa mu koza amenyo, imiti y'amazi ivura abana ndetse n'indi miti igiye itandukanye.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cya Matyazo, aho abaturage batandukanye baje gushaka serivisi z'ubuzima. Iki kigo cyubatse iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo.

Ikigo cy'ishuri cyubatse neza, gifite ikibuga kirimo umucaca ndetse n'aho abana bakiri bato bidagadurira kugira ngo babashe kuba baruhura ubwonko nyuma y'amasomo.

Ibitaro kabuhariwe, byiza cyane, bifite inyubako ndetse n'ibikoresho byiza cyane byifashishwa mu kwita ku barwayi ndetse no kubavura, ibi bitaro birimo ibitanda, ameza menshi yifashishwa n'abaganga ndetse n'abarwayi.

Ibitaro byiza cyane ndetse bigezweho aho bagenda bakoramo amasuku ku buryo bwihariye ndetse umuntu ukora amasuku akaba yipfuka mu maso kugira ngo atabasha kuba yakandura indwara zikwirakwizwa hanyuze mu buryo bwo guhumeka.

Inyubako y'ibitaro igezweho, irimo ahakorerwa siporo ndetse n'aho bakirira abarwayi b'ingeri zose ndetse ni inyubako irimo ibyumba bigiye bitandukanye bavuriramo abarwayi.

Inyubako nziza cyane ifite umukindo imbere ni inyubako igerekeranyije inshuro zirenze ebyiri inyubako ifite parikingi y'imodoka ndetse ifite n'ikibuga cyiza cyane.

Inyubako nziza cyane ikorerwamo ibijyanye no kugorora abantu ndetse n'abafite ikibazo cy'ingingo aho bashobora kuza muri iyi nyubako bakaba bashobora guterura ibintu bituma bagorora ingingo zabo.

Inyubako nziza cyane itanyurwaho serivisi z'ubuzima hariho indabo, harimo urutoki, ibi ni bihingwa bituma abantu bahumeka umwuka mwiza ndetse harimo akayira keza cyane karimo abantu barimo bagenda batembera.

Inyubako nziza y'ibitaro yifashishwa mu gupima abantu ndetse no kubasuzuma cyane cyane abafite ibibazo by'amaso, aho babaha indorerwamo z'amaso zo kujya bifashisha bareba ibintu.

Ikigo gishinzwe kwita ku by'ubuzima, aho bakusanyiriza amaraso yo gufasha abantu bagize indwara zituma batabasha kubona amaraso, iki kigo nicyo gikusanya amaraso ndetse kikanayatanga ku bitaro bigiye bitandukanye.

Ikigo cyiza cyane cyubatswe neza gikorerwamo ubushakashatsi, aho abantu benshi bashobora gutemberera bakajya kuhakorera ubushakashatsi ku bintu bigiye bitandukanye.

Ibyumba byo kwa muganga, aho hari abarwayi batandukanye baryamye ku bitanda byabo, aho harimo umuganga uri kubitaho ndetse n'umusore uri kugenda akora amasoko muri ibyo byumba.

Inyubako nziza cyane igerekeranye, irimo kamera nziza cyane ndetse nyinshi ndetse n'intebe nziza bakiriramo ababagana, iyi ni inyubako ifite ibyumba byinshi bikorerwamo ibintu bigiye bitandukanye.

Inyubako y'ubuvuzi irimo ububiko bw'imiti igiye itandukanye, aho iyo bakeneye imiti runaka baza bakayifata ndetse n'aho babika imiti yose kugira ngo itagira ikibazo ikaba yakangirika.

Inyubako nziza cyane iri mo indabyo irimo ibikoresho bibiri bitandukanye byifashisha kwa muganga harimo igitanda abarwayi baryamaho ndetse n'igitanda basuzumiraho ibi ni ibitaro byiza cyane birimwo ibyuma koranabuhanga bifasha gusuzuma uburwayi.

Ni byiza ko abantu bakora siporo bakagorora ingingo zabo, kuko iyo uramutse utagoroye ingingo zawe zishobora kwangirika ndetse bigatuma zangirika burundu ku buryo udashobora kongera gukira.

Igikoresho cyifashishwa mu kureba umuriro ndetse no gupima umuvuduko w'amaraso ndetse n'umuvuduko w'amaraso ugenda mu mubiri w'umuntu aho iki gikoresho gifasha abaganga kumenya umuntu umuvuduko afite.

Ukuboko gufite icupa ry'amazi meza atunganyirizwa mu nganda, aya ni amazi aba atarimo imyanda ndetse n'udukoko dushobora gutera indwara kuko aya mazi aba yatunganyijwe neza ndetse akaba ariyo abantu bakunze kwifashisha.

Umugabo ugaragara nk'ushaje, uri muri siporo zo kwirukanka, icyuya kikaba cyamurenze, akaba ari kunywa amazi kugira ngo umubiri we usubirane amazi ndetse abone n'imbaraga zo gukomeza.

Umuti uri mu macupa atatu yegeranye ugabanya uburibwe ndetse ukaba ushobora gufasha umuntu uri kuribwa cyane cyangwa umuntu uri kubabara kuba yabasha kumva atakiribwa.

Abaganga bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'ibitambaro mu mutwe, aho baba bita kubaryayi bagiye batandukanye, ndetse banashishikariza abo barwayi gukora siporo, mu buryo bugiye butandukanye, kugira ngo babashe kuba bakira.

Igikoresho cyifashishwa kwa muganga mu kugarura ingingo z'umubiri zifite ikibazo aho uyu mukobwa bamushyize kuri ako gakoresha kugira ngo babashe kugorora ukuguru kwe ndetse kubabashe kuba kwakora neza kugira ngo ndetse n'ingingo ze zigororwe.

Abakinnyi babiri bari mu kibuga bari gukina umupira w'amaguru, umwe akaba agize ikibazo cyo kuvunika ukuguru, undi akaba ari kumufasha gukanda ukuguru kugira ngo ububabare bubashe kugabanuka.

Umukobwa wa ekuteri, wambaye agasengeri, wambaye isaha, uri muri siporo, aho agorora amaboko ye yayashyize hejuru y'umutwe kugira ngo abashe kugororoka ndetse abashe no kubona uko agorora umugongo n'inda bye.

Umuti mwiza cyane wifashishwa n'abantu bafite uburibwe bukabije, aho iyo umuntu bamuhaye uyu muti uhagarika ububabare yari afite mu mubiri bityo bigatuma adakomeza kuba yakomeza kubabara.

Umusore wicaye imbere ya kompiyuta akora ubushakashatsi bugiye butandukanye ndetse anagenda akora ibintu bigiye bitandukanye kuri mudasobwa ye, kugira ngo abashe kubona ibyo ari gushakashaka.

Umukobwa wambaye agasengeri, ipantaro y'umukara ya siporo, ari gukora siporo aho arebye hejuru, amaboko yashinze ku butaka kugira ngo abashe kunanura umugongo we ndetse no kunanura amaboko.

Umukobwa ufite ikibazo cy'ukuguru aho bamuhaye insimburangingo y'akaguru kugira ngo abe yabasha kugenda no gukora ibintu bitandukanye mu gihe afite iki kibazo ndetse bimufashe no kuba yashobora gukoresha ukuguru kwe.

Umuganga uri gukora ubushakashatsi butandukanye kuri mudasobwa ye, aho afite ikaramu agenda yandikaho ibintu agenda akura muri ubwo bushakashatsi ndetse akaba yambaye agapfukamunwa kugira ngo abe yakwirinda indwara zo mu buhumekero.

Umusore wambaye agakabutura k'umukara, agapira k'umweru, aho ari muri siporo ngororamubiri, yafashe akaguru kamwe akazamura hejuru, hanyuma arangije afata ukuboko kwe agufatisha ku mano kugira ngo abashe kugorora umubiri we.

Igikapu gifunze kiri kumwe n'ibindi bikapu bifunguye birimo imakasi ndetse n'ibindi bikoresho bigenda byifashishwa mu kuvura abantu bagiye bagira ibibazo bari gukora siporo cyangwa bari gukina.

Umusore w'ibigango, ufite ubwanwa, wambaye isengeri, uri gukora siporo ngororamubiri, yafunze ibipfunsi, kugira ngo abashe kubaka akaboko ndetse no kugira ngo ubuzima bwe bubashe gukomera.

Umusore wambaye agasengeri k'umukara ndetse n'agakabutura k'umukara ari muri siporo, aho we yashinze ivi ndetse agatera ukundi kuguru inyuma, akamanura ukuboko kwe kugira ngo ananure ingingo zose z'umubiri.

Ibikoresho byo kwa muganga bifashisha bavura abantu, harimo inshinge bifashisha abatera abantu imiti, harimo udukoresho twifashishwa mu gupima umuriro, harimo ibinini, imiti y'amazi ndetse n'imakasi n'ibindi bikoresho byifashishwa.

Umuganga ari gusuzuma ivi ry'uyu mukobwa kubera ko adakora siporo ryaragiye rirabyimba ndetse rigira n'umubyibuho ukabije ku buryo atabasha kurinura, akaba amugira inama yo gukora siporo.

Siporo zishobora gukorwa mu buryo butandukanye, nk'uko bigaragara imipira itandukanye, harimo bako, hari mu mupira w'amaguru, harimo imipira y'amaboko abantu bakina bakoresheje amaboko, ndetse harimo n'udupira duto two kugenda abantu bakina badonda hasi.

Umusore uri gukora siporo ngororamubiri, yambaye umudari, afite ubwanwa, amaze kuba umusore w'ibogari kuko amaze guterura ibintu byinshi bigiye bitandukanye, akaba ari kunywa amazi mu buryo bwo kuyongera mu mubiri.

Umukobwa ufite umubiri mwiza uri kwinanura kugira ngo abashe kugira mu nda heza ndetse abashe no kugira umubiri unanutse neza, aho yafashe akaguru kamwe akagashyira imbere agahinnye hanyuma akandi akakarambura inyuma.

Umukobwa uri muri siporo ngororamubiri, aho ari gufata ikintu akagisunika akoresheje imbaraga nyinshi ndetse nawe we acyitaje kugira ngo abone uko agorora ingingo ze z'umubiri.

Ibyiza byo gukora siporo ni byinshi cyane, kuko umuntu ukora siporo agaterura bituma amagufa ye akomera ndetse n'umubiri muri rusange, hanyuma bikaba akarusho iyorenzaho akanywa amazi, akarya imbuto zigiye zitandukanye.

Ingofero y'abamotari, iri kumwe n'umupira wa Basket, ndetse n'umupira w'amaguru ndetse n'indi mipira igiye itandukanye abantu bifashisha iyo bari gukina, ndetse ikabafasha no gukora siporo.

Abakobwa nabo bateye imbere mu byo gukora siporo, aho uyu mukobwa wishyize furari mu ijosi ari muri siporo zo kwiruka. Hanyuma akitwaza amazi yo kujya anywa kugirango ngo yongere gusubiza amaso yatakaye mu mubiri.

Umuryango wa Croix Rouge wita ku bantu bafite ububabarendetse nabantu bagize ikibazo, aho bateruye umugabo usa nk'uwavunitse ukuguru kugira ngo bamuhe ubutabazi bw'ibanze.

Umuganga uri kwita ku murwayi, aho yamuryamishije hanyuma agashyira ibikoresho bimufasha kumenya indwara ye, akabimushyira mu mugongo akagenda areba mu mashini ye ibimenyetso biri gutangwa.

Umusore w'ibigango uri muri siporo, aho ari kunywa amazi kugira ngo akomeze kugira imbaraga zo gukora siporo ndetse no kongera amazi mu mubiri kugira ngo akomeze kugira imbaraga zo gukomeza gukora siporo ngororamubiri.

Umuntu wari umo ukora siporo hanyuma agira ikibazo, aho ababishinzwe bahise baza kumufata kugira ngo bite ndetse bakurikirane ubuzima bwe atarangirika cyane kugira ngo abashe gukira vuba.

Umukobwa wambaye agakabutura kagufi afite igikomere ku ivi aho bamujyanye kwa muganga kubera ko igihe yakoraga siporo yagize ikibazo cyo kuba yakomereka kuri iri vi bigatuma ajyanwa kwa muganga.

Umuganga uri gupfuka umusore wagize ikibazo ku kuguru aho ari kugenda amushyiraho ibipfuko kugira ngo abashe kuba yamufasha gukira vuba.

Abasore babiri, bari gukina umupira, wo kudunda hasi, aho bari kwirukanka. Iyi ni siporo ikomeye cyane. Kuko ibasaba gusohora umwuka, mwinshi cyane, ndetse no kwiruka bakananura ingingo zabo.

Umukobwa n'umuhungu bari kunywa amazi aho umukobwa yafashe umutwe akawushyira mu mugongo w'umuhungu ndetse n'umuhungu agafata umutwe akawushyira mu mutwe w'umukobwa.

Gukora siporo bisaba kunywa amazi menshi kugira ngo umubiri watakaje amazi wongere uyagarure nk'uko uyu musore ari kunywa amazi, nyuma yo gukora siporo ngororamubiri.

Abantu babiri bari gukora siporo. Siporo ni ubuzima, siporo ifasha abantu gukira indwara zigiye zitandukanye, ndetse no kuba bashobora kugorora ingingo z'umubiri, bituma batabasha guhura n'indwara nk'umubyibuho ukabije.

Siporo ni umuti, amazi ni ubuzima, uyu ni umusore uri muri siporo wambaye isengeri y'umukara ndetse n'ipantaro ya siporo, aho ari kunywa amazi kugirango yongere amazi mu mubiri we nyuma yo gukora siporo.

Umuganga uri gufasha umwana urwaye mu mazuru, akaba yafashe igikoresho yifashisha kugira ngo abe yabasha kumurika urumuri rwe mu mazuru, ndetse abashe no kubona indwaraabarwayi.

Ibikoresho byifashishwa cyane cyane muri siporo, aho harimo ibikoresho biba birimo imiti bakoresha iyo hagize umuntu ugirira ikibazo muri siporo, hakabamo amavuta babasiga ndetse n'ibitambaro babazirika.

Abakobwa bari gukora siporo bayikoreshejwe n'umuhungu uri kumwereka uko azajya abigenza kugira ngo abashe kuba yagabanya inda ndetse abashe no kuba yananura amaboko ye ndetse n'amaguru.

Umukobwa uri kubabara mu ivi aho undi mukobwa nawe ari kumufasha akagenda amukandiraho kugira ngo abashe kuba yakira ubu buribwe ndetse bubasha no kuba bwagabanuka.

Siporo ni ubuzima, abantu badakora siporo bakunze guhura n'ibibazo byinshi nko kuba bashobora kumugara zimwe mu ngingo, nko kuba amaraso adatembera mu mubiri wabo neza. Ibi bikaba bibagiraho ingaruka z'igihe zitandukanye.

Umusore wambaye utwuma two mu matwi dutuma abasha kumva indirimbo, ari kunywa amazi meza cyane, ari gukora siporo kandi biragaragara ko ari umuntu ukunda siporo cyane cyane izo kwiruka no guterura ibyuma.

Siporo ubuzima, siporo umuti, siporo umuti urambye ufasha abantu mu gukomeza kugira ubuzima bwiza aho aba bajeni bari muri siporo zitandukanye kugira ngo babashe kwirinda indwara ndetse banakangurira abandi bantu ibyiza bya siporo.

Repubulika y'u Rwanda aho ishishikariza abantu uburyo bwo gukoresha ubujyanama buvura ibikomere biterwa no kubabazwa ndetse n'agahinda gakabije bikaba bishobora kuba byakgiza ubuzima bw'umuntu.

Ni byiza cyane gukora siporo ngororamubiri, ushobora kubifashwamo n'abandi nk'uko uyu mugabo bari kumufasha kugorora amaguru ye. Ibi biba byiza kuko imitsi ibasha kohereza amaraso mu mubiri ku buryo butagoranye.

Umugabo wicaye imbere ya mudasobwa, ari kureba filime ndetse akora n'ubushakashatsi bugiye butandukanye kuri interineti ndetse ashakisha n'amakuru ashobora kuba yamufasha mu bushakashatsi bwe.

Bande yifashishwa mu gukora siporo, aho iyo muntu aramutse ageze ikibazo cyangwa avunitse bashobora kuyimuzingaho kugira ngo akaguru ke cyangwa akaboko kaze gusubirana mu buryo butagoranye.

Umuti ufasha abantu mu kugabanya uburibwe ndetse uyu muti ukaba uturuka hanze y'ibihugu, aho bavuga yuko iyo uwuguze bawukuzanira ku buntu ukakugeraho, aho waba uherereye hose.

Amazi ni ubuzima ku bayanywa. Ni byiza kunywa amazi asukuye ndetse ugakora na siporo kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze kumererwa neza, ndetse bukomeze no kwirinda indwara zitandukanye.

Siporo ni ingenzi cyane mu buzima. Uyu ni mukobwa wazamuye amaboko ye kugira ngo ayarambure, ni umukobwa ufite imisatsi iboshye, ari gukora siporo kugira ngo abe yakwirinda ko imitsi y'amaboko ye yahinamirana.

Umuntu ufite ikibazo cy'ivi kubera kudakora siporo cyane, ukuguru kumwe kwarabyimbye cyane, ibi bimusaba kugira ngo agabanye ibinure ndetse yongere siporo kugira ngo abashe gukira.

Igikoresho cyifashishwa mu gupima abantu ndetse aho bagenda bagaragaza ibice bikigize, nk'ahari mirongo itandatu n'umunani mu butambike, uburambarare mirongo icyenda na rimwe, ubuhagarike ijana na rimwe.

Imbuto ni nziza cyane kuko zifasha umuntu kugira ubuzima bwiza ndetse no gukora siporo, ni byiza wifashishije tumwe mu dukoresho twa siporo, harimo nko kuba ufite inkweto za siporo, imigozi yifashishwa muri siporo n'ibindi.

Ibikoresho byifashishwa muri siporo, aha harimo amavuta ashobora kwifashishwa mu gihe umuntu yagize ikibazo ari muri siporo, harimo imiti ishobora kwifashishwa, harimo imakasi n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Icyapa kigaragaza ibyiza bya siporo aho batwereka abantu bari muri siporo, abantu bari gukina karate, umuntu wicaye ari gukora siporo ari wenyine, ndetse n'abandi bari gukina imikino njyarugamba.

Ni byiza gufata amafunguro akungahaye ku ntungamubiri zitandukanye, harimo nk'amagi, harimo imineke, harimo inkeri n'izindi mbuto zigiye zitandukanye ndetse ukanakora siporo kugira ngo izo vitamini zikomeze kukugirira akamaro.

Inzu nziza cyane ndetse nini ikorerwamo imyitozo ngororamubiri aho harimo abantu bagiye batandukanye babereka uburyo bashobora gukoresha ibikoresho biri muri iyi nzu kugira ngo bakore imyitozo.

Ni byiza cyane gufata ibiribwa birimo imbuto ndetse zitandukanye nk'inkeri, harimo amacunga, harimo imboga, harimo n'ibindi bitandukanye, kugira ngo ubuzima bubashe kubona vitamine zigiye zitandukanye.

Imbuto zishobora gukoreshwa mu gihe umuntu ari gukora siporo ndetse siporo akaba ari kimwe mu bintu bishobora kurinda indwara nk'umubyibuho ukabije ndetse n'umuvuduko w'amaraso, niyo mpamvu abantu bashishikarizwa gukora siporo.

Umuntu uri kugenda afata ibipimo bigiye bitandukanye, ndetse anakora ubushakashatsi ku bintu bigiye bitandukanye kugira ngo abashe kuba yavumbura ikintu runaka kidasanzwe.

Umukobwa uteye neza cyane uri muri siporo aho yafashe telefoni, ayishyira ku kuboko kugira ngo abashe gukora siporo neza, akaba ari kunywa amazi kugira ngo abone ingufu zo gukomeza gukora siporo.

Siporo ni kimwe mu bintu by'ingenzi buri muntu yakagombye gukora nkuko bigaragara uyu ni umusore uri gukora siporo agenda yumva n'umuziki, impande ye hari amazi agenda anywa kugira ngo abashe kongera amazi mu mubiri we.

Imiti yifashishwa mu gukora siporo ndetse n'uburyo bwo gukora imyitozo ngororamubiri, aho bagaragaza ko imyitozo ngororamubiri, irindwa indwara zishobora kuba zaza ahazaza.

Umukobwa wambaye agapira kagiye gusa nk'umutuku, ari kunwa amazi, yambaye ekuteri mu matwi, ari kugenda yumva indirimbo zigiye zitandukanye.

Umukobwa uri muri siporo wambaye isaha wasingishije imisatsi wambaye ekuteri aho yikoze mu mugongo akandi kaboko yagashyize hejuru yumutwe we kugirango abashe kuba yananura umugongo ndetse n'amaboko ye.

Abantu bakwiye gukora siporo nk'uko aba bakobwa bari kubikora bakoresheje udukoresho bifashisha muri siporo mu buryo bwo kugabanya ibinure, aho bafashe bande bayizinga ku kuboko kugira ngo babashe kugabanya ibinure.

Siporo ni ubuzima, uyu ni umusore uri kunywa amazi afite n'igikapu, aho ari kumwe n'umukobwa wambaye agasengeri gato cyane ndetse n'agakabutura bari muri siporo na we ufite igikapu, arimo yinanura kugira ngo abashe kuba yagorora mu nda he.

Inzu ikorerwamo siporo ndetse n'imyitozo ngororamubiri, iyi ni inzu cyane cyane urubyiruko rukunda kujya kwitorezamo ariko n'abakecuru ndetse n'abana bashobora kujyamo bagakora imyitozo itabavunye, bigendanye n'imyaka yabo.

Ni byiza cyane gukora siporo ndetse ugashaka ibikoresho biboneye byo gukoresha siporo kugira ngo bigende neza ndetse ubashe no kugera ku ntego yawe. Ni byiza gukora siporo igihe cyose.

Umukobwa uteye neza wambaye agasengeri, ipantaro ya siporo ndetse n'inkweto za siporo, aho ari kunanura amaboko ye ndetse akananura n'amaguru ye nk'uko bigaragara yafashe ukuguru kwe araguhina agukoza ku kibuno cye.

Umusore w'ibigango wambaye agapira k'umweru uri muri siporo yumva indirimbo agenda yikorera siporo kugira ngo abashe kuba yagira umubiri mwiza ndetse no kunanura umubiri we.

Umukobwa wambaye imyenda ya siporo, yicaye hasi muri saro ari gukora siporo, arimo ananura amaboko ye, ananura imbavu ze, ananura amaguru ye kugira ngo abashe kurambuka.

Imiti myinshi ikorwa mu buryo bwa gakondo, aho bafata ibyatsi bigiye bitandukanye, haba ibifurantende, inyabarasanya ndetse n'ibindi byatsi nk'umuravumba, bakaba bashobora kubihonda bakabihinduramo ifu, bakabijyana mu ruganda, hanyuma bigatunganywa.

Imiti gakondo igira uruhare mu kuvura abantu bagiye batandukanye, nk'uko bigaragara ubu ni ubwoko bw'imiti gakondo myinshi ivura indwara zigiye zitandukanye.

Baho neza, ni televiziyo ibwira abantu ibijyanye no kubaho neza, aho bababwira ibyiza by'igitunguru, bakababwira ibyiza by'indimu, indwara bivura, ndetse n'uburyo bishobora gukoreshwa.

Imiti gakondo igiye itandukanye, aho harimo imiti y'udufu bagiye basekura bavanye mu byatsi bitandukanye ndetse n'ibindi byatsi bagiye banika ibikuma, byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Imiti gakondo ikungahaye ku bushobozi bwo kuvura indwara zananiranye kwa muganga ndetse ifite n'ubushobozi bwo kuvura indwara izo arizo zose nk'ibibyimba, nk'umutwe ndetse n'ibiheri, uyu ni umuti wifashishwa cyane no gukora indi miti igezweho.

Umuti ukozwe mu bintu bigiye bitandukanye, harimo avoka, harimo imbuto zitandukanye, harimo ubwoko bw'ibyatsi bitandukanye, uyu muti ukaba ukozwe neza, ndetse ukaba uri mu icupa ryiza, rishobora gutuma umuti utangirika.

Ishyamba ririmo ibiti bigiye bitandukanye, bigaragara nkaho ari ku izuba ryinshi, kuko amababi amwe yatangiye guhunguka agwa hasi ndetse n'ibiti bimwe bitangira kugenda byuma.

Igikakarubamba ni icyatsi gakondo kimwe mu bifite ubushobozi buhambaye bwo kuvura ibisebe ndetse no gukora amavuta. No kuvura izindi ndwara zigiye zitandukanye.

Imiti gakondo ifite imbaraga zo kuvura cyane kuko iba yiganjemo ibyatsi bivamo imiti ndetse bikaba ari ibyatsi by'umwimerere bishobora gutuma umuntu akira mu buryo bworoshye.

Agakoresho kabikwamo imiti gakondo, barangije gutunganya aho iyo barangije gusya iyi miti gakondo bakayanika ikuma bayifata bakayishira mu gakoresho kazatuma iyi miti itangiri...

Umuti gakondo uva mu byatsi bigiye bitandukanye ushobora kwifashishwa mu kuvura indwara zo mu nda ndetse no gukanyara k'uruhu, uyu muti ufitemo imbaraga kuko ukozwe mu byatsi byinshi bigiye bitandukanye.

Imiti gakondo irakora cyane iyo iteguwe neza ndetse ivanze neza n'imiti baba bafashe ivuye mu byatsi bakayihonda neza hanyuma ikavamo agafu kifashishwa bavura indwara.

Umuti useye w'agafu ukoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, haba indwara z'uruhu cyangwa izindi ndwara zishobora gufata umuntu, ashobora gukoresha uyu muti kugira ngo yivure.

Agasekuru karimo ibyatsi nyarwanda byifashishwa mu kugira ngo abantu babashe kuba babona imiti igiye itandukanye aho bafata ibi ibyatsi bakagenda babihonda babihonda kugira ngo havemo agafu keza karimo umuti.

Umuti uva mu gikakarubamba, ni umuti mwiza cyane ukunda kwifashishwa mu kuvura ibisebe ndetse n'ibikomere, uyu muti wihutisha abantu mu bukira, bagakira vuba bitabagoye.

Ubusitani bwiza cyane bufite indabo zigiye zitandukanye ndetse n'ahantu abantu bashobora kujya bakaba bashobora kuruhukira bagafata akayaga, abantu bakaba bashobora kuba baruhuka ndetse no kuruhura ubwonko bwabo.

Ibyatsi byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye ibi n'ibyatsi gakondo aho bafata ibi ibyatsi bakabihonda baraza ku bihonda bakabika bikavamo agafukanoze baha umurwayi kugira ngo abashe gukira.

Imiti ikunda gukoreshwa n'abantu basanzwe ndetse iyo miti ikaba ituruka mu bimera karemano dusanzwe dufite, ni imiti myiza cyane kuko iba ihuje n'ibyo turya ndetse yiganjemo intungamubiri nyinshi.

Umuti gakondo ushobora kwifashishwa mu kuvura umutwe mu kuvura amaso ndetse no mu kuvura imitsi ndetse n'umugongo ndetse no kubyimba, iyi n'imiti iba ikozwe mu byatsi bigiye bitandukanye aho babifata bakabisya hanyuma bikavamo ifu.

Ibyatsi karemano ni ibyatsi dukwiye kwitaho cyane, kuko bivamo imiti myinshi igiye itandukanye, iyo bikoreshejwe neza ndetse bigakoreshwa n'abahanga bituma tubasha kubona imiti itandukanye.

Imiti gakondo ni imiti ifite ububasha bwo kuba yavura mu buryo buhambaye cyane. Aho nk'uyu muti bafashe umuravumba barawuteka, barangije bawushira mu mazi ku buryo umuntu ashobora kuwunwa agahita akira umutwe yari arwaye.

Umuti gakondo urimo imbuto zigiye zitandukanye ndetse n'ibikakarubamba barabifata bakabishyira hamwe kugira ngo bivemo umuti ukomeye ushobora kuvura indwara zirenze imwe ndetse umuti ushobora no kuba ufite ubushobozi bwo gukiza umuntu byihuse.

Umuntu ucuruza imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura abantu, kuvura amatungo ndetse n'amavuta yo kwisiga arimo ubwoko bwinshi bugiye butandukanye.

Ibyatsi bitandukanye birimo imiti ikungahaye muri vitamin ndetse no kurinda indwara zitandukanye, iyi miti barayifata bakayihonda hanyuma bakayanika, agafu kavuyemo akaba ariko bakoresha nk'umuti cyangwa ibi bakaba bashobora kubihekenya.

Ni byiza gukoresha imiti gakondo harimo nk'izi mbuto bagiye bafata bazikuye ku biti, hanyuma bakazanika bakazikoresha mu buvuzi bwa gakondo ndetse n'ubundi buvuzi buteye imbere.

Ibyatsi bifite akamaro mu gutunganya imiti ndetse no kuyitanga, ibyatsi bishobora gukiza umuntu kuruta uko yanywa ibinini ndetse ibi byatsi ni na byo bivamo imiti igiye itandukanye.

Imbuto ndetse n'ibindi byatsi byifashishwa mu gukora imiti n'amavuta bigiye bitandukanye, ni ingirakamaro ndetse bikwiye kubungwabungwa kugira ngo tuzakomeze kubikoresha mu gutunganya ibintu bigiye bitandukanye.

Ibihingwa by'imiti gakondo byifashishwa mu kuvura indwara cyane cyane zananiranye kwa muganga, aho iyi miti bashobora kuyihuza ikavamo umuti ukomeye ushobora kuvura indwara yananiranye.

Umuti gakondo uva mu mbuto, wifashishwa mu kuvura abantu indwara zitandukanye ndetse akaba ari umuti umuntu ashobora kwikorera ku giti cye, ukaba wamufasha kuba yakira indwara zitandukanye.

Imiti gakondo irimo muravumba useye, irimo igikakarubamba, irimo ibyatsi bigiye bitandukanye, byifashishwa mu kuvura indwara, aho bari kutwereka agakoresho bifashisha bahonda ibyo byatsi.

Umuti gakondo wifashishwa kuvura ibibyimba, indwara zo mu mutwe, nk'ibiheri, indwara z'uruhu ndetse n'imvune, kuko uyu muti ukozwe mu bihingwa ndetse n'ibyatsi bitandukanye birimo ubushobozi bwinshi bwo kuvura indwara zitandukanye.

Imboga nyinshi, karoti ndetse n'ubwoko bw'ibyatsi buvanze kugira ngo hakurwemo umuti, iyi ni imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye ndetse igakoreshwa mu buryo bukwiye.

Umuganga w'umugabo uri gusuzuma imiti, agenda ayikura mu dukarito aho ipfunyitse kugira ngo arebe niba iyo miti ari yo neza, yagiye ayitondetse ku ruhande.

Isoko ririmo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo imboga z'amoko yose, harimo amavuta y'ubwoko bwose, harimo n'ibindi biribwa bigiye bikungahaye kuri vitamini zigiye zitandukanye umuntu agenda akenera mu mubiri.

Imiti gakondo na yo yateye imbere mu kuvura indwara zigiye zitandukanye ndetse iyi miti gakondo, niyo yifashishwa mu gutunganya iyi miti bagenda bashyira mu ducupa tugiye dutandukanye ndetse n'amavuta nk'ay'igikakarubamba.

Isabune nziza cyane ikozwe muri avoka ushobora gukoresha iteka hanyuma uruhu rwawe ndetse n'isura yawe bikamera neza, ni isabune nziza cyane ifitemo intungamubiri ubwayo zigufasha kugira uruhu rwiza.

Ibyatsi gakondo byifashishwa mu kuvura indwara. Ibi n'ibyatsi byakoreshaga mu muco wa gakondo abantu bivura indwara zigiye zitandukanye ndetse ibi byatsi bishobora no kuba byavamo imiti iteye imbere, ishobora kuba yafasha abantu gukira indwara zitandukanye.

Ibyatsi gakondo bigira umumaro munini mu gutunganya ndetse no gushaka imiti igiye itandukanye, ibi ni byiza cyane kuko bifasha abantu kugira ngo babone imiti mu buryo butabagoye.

imiti gakondo ituruka mu byatsi bigiye bitandukanye, harimo imiravumba, igikakarubamba, amapera ndetse n'ibindi byatsi abantu bifashisha, mu gukora imiti itandukanye, ku ndwara zigiye zitandukanye.

Imiti gakondo igiye ipfunyitse mu ducupa ndetse no mu dukarito tugiye dutandukanye kugira ngo babashe kuba bayitandukanya mu gihe bagiye gutanga umuti umwe utabitiranya n'undi.

Imiti gakondo aho bayicururiza, ndetse hano hari umudamu uyicuruza, ndetse n'umugabo waje kugura imiti kugira ngo abashe kuba yakira indwara arwaye imumereye nabi.

Ibyatsi bimwe na bimwe bivamo imiti itandukanye, aho bashobora gufata ibyatsi bakabitunganya nko kubisekura, bakabihonda, hanyuma bakabyanika, nyuma bakabibika neza kugira ngo baze kubikoresha nk'umuti.

Imiti myinshi ndetse n'amavuta ndetse n'ibindi bicuruzwa bikorwa mu bimera bidukikije, ni ingirakamaro kuko biba bifitemo ubushobozi bwo kuvura indwara zigiye zitandukanye kandi mu gihe gito.

Imiti myinshi iva mu bimera, mu byatsi, ibiti bigiye bitandukanye, iba yifitemo ubushobozi bwo kugenda igakura indwara mu mubiri, ndetse n'ubushobozi bwo guhangana n'indwara mu gihe gito.

Ni byiza cyane gukoresha ibimera mu gushaka imiti ishobora kuba yadukiza indwara zigiye zitandukanye cyane cyane ko imiti myinshi iva mu bimera bigiye bitandukanye.

Umuhinzi wa kinyamwuga uri kumwe n'abandi bagabo benshi b'abahinzi baje kumuhugura ku buryo ibihingwa bihingwa kugira ngo bibashe gutanga umusaruro uhagije ndetse no kubona inyungu zihagije ziturutse mu buhinzi.

Imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara zigeze zitandukanye ho harimo umuti ushobora kwifashishwa mu kuvura amenyo ndetse no kuyoza ndetse n'indi miti ishobora kuvura abantu indwara bagiye barwaye ariko zitandukanye.

Umuti wifashishwa mu kuvura ibibyimba byo mu nda, uyu muti ukunda gukoreshwa n'abagore babuze urubyaro kubera ibibyimba byo mu nda byatewe n'ubukure bwabo ndetse uyu muti urabafasha ku buryo biborohera gusama.

Umuti gakondo ukorwa mu buki, ubuki aho babufata bakabushyira mu icupa bakawutunganya neza hanyuma bakabukoresha bavura indwara zigiye zitandukanye, cyane cyane ko ubuki bwiganjemo vitaminini ndetse n'ubushobozi bwo kuvura indwara.

Imiti gakondo iva mu biti bigiye bitandukanye, aho ushobora gusanga icyo giti baragiteyere mu rugo cyangwa ibyo byatsi byimeza mu mashyamba, ababizi rero barabifata bakaba bashobora kubihinduramo ibiti.

Imiti gakondo, iki nigikakarubamba bafashe baragenda bagikatagura, barangije baragitunganya neza, nyuma yo kugitunganya, bagishyira mutuboni kugira ngo kibikwe neza kitaba cyakangirika.

Imiti myinshi ikorwa mu bwoko bw'ibyatsi bugiye butandukanye, harimo imiti yo kwisiga, harimo amavuta, hari nimiti y'uruhu ndetse hakabamo n'imiti y'amenyo yifashishwa mu koza amenyo, iyi ni imiti myiza cyane.

Umugabo ugaragara nk'ukuze wambaye agapira k'umweru, aho ari kugenda asoroma imbuto mu byatsi bitandukanye ari mu ishyamba ari kugenda ashakamo imbuto ashobora kuba yakoresha.

Imiti iva mu gikakarubamba harimo yifashishwa mu kuvura amenyo, kuyakomeza, kuyarinda ndetse n'indi miti yifashishwa n'abantu babuze vitamini, kugira ngo babashe kugira ubushake bwo kurya, ndetse n'umubiri wabo umererwa neza.

Umuti w'amenyo ukozwe mu byatsi bigiye bitandukanye, uyu muti ukaba ufasha abantu kugira amenyo akeye cyane ndetse ugafasha no kurinda indwara z'amenyo.

Umuravumba ni ubwoko bw'ibyatsi, bwifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye ndetse n'ibinini, ubu bwoko bw'ibyatsi bufitemo imbaraga n'ubushobozi bwo kuvura indwara zigiye zitandukanye, uko zaba zimeze kose.

Igikakarubamba kivamo imiti igiye itandukanye, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye ndetse zinakomeye. Zanze gukira nk'ibisebe, aho iyo bashyizeho igikakarubamba, igisebe gihita cyuma ndetse kikanakira vuba.

Imiti gakondo iba ikozwe mu bintu bigiye bitandukanye, aho bashobora gufata ubwoko bw'ibimera butandukanye hanyuma bakabuhuza bukaba bushobora kuvamo umuti umwe ufite ubushobozi bwo kuvura indwara nyinshi.

Igihingwa gihinzwe mu butaka aho bagiye bagisasira ibyatsi kugira ngo hatagira udukoko, cyangwa utundi tuntu twangiza iki gihingwa, ndetse n'amazi abe atabasha kwangiza iki gihingwa ku buryo bworoshye.

Ubwoko bw'ibinini buri mu kantu kameze nk'akavure, ibi binini mu bigaragara ni uko bikoze mu bwoko bw'ibyatsi bigiye bitandukanye ndetse bikaba bishobora kuba byavura umuntu agakira vuba.

Ni byiza gukoresha imiti gakondo, uyu ni umumama uri gusoroma ibibabi by'imiti gakondo by'intusi gakondo kugira ngo abashe kuba yabikoresha mu kwivura indwara arwaye.

Umuti mwiza cyane w'amenyo ukoze mu gikakarubamba, igikakarubamba kifitemo ubushobozi bwo kurinda umuntu ibijyanye n'udusebe dushobora kuba twaza mu kanwa ndetse n'utundi dusebe twose twaza ku mubiri, iyo ukoresheje igikakarubamba duhitaho.

Isoko ririmo abacuruzi batandukanye, bacuruza imbuto, bacuruza amavuta ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, iri soko ririmo abakiriya baje kugura ibintu bigiye bitandukanye.

Umuti gakondo wifashishwa mu kuvura umugongo' aho uyu ari umuti bafata bakawusya ukaba agafu, hanyuma bakajya bawisiga mu mugongo ndetse bakawusiga no mu mavi aho bababara.

Icupa ry'umweru rigaragara nk'iririmo umuti ukoreshwa buri munsi, aho bashishikariza abantu kuwukoresha buri munsi, bitewe n'amagambo yanditse inyuma kuri iryo cupa birashoboka ko uyu muti uramutse uwukoresheje buri gihe wakugirira akamaro.

Umuravumba ni umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara nk'inkorora, kuribwa mu nda, umutwe ndetse n'izindi ndwara. Uyu ni umuti uva mu byatsi cyangwa ku giti cyitwa umuravumba, aho uyu muti bafashe bakawuhonda hanyuma bakawanika ukavamo agafu.

Iki ni igihingwa cy'umuravumba cyane cyane gikunze kuvamo imiti myinshi cyane, iki igihingwa gishobora gufatwa bakagisya kikaba cyavamo ifu cyangwa bakagiteka bakivanze n'amazi, maze umuntu ukinyoye agahita akira byoroshye.

Ni byiza gukoresha imiti gakondo irimo imbuto, irimo ubwoko bw'ibyatsi bugiye butandukanye budufasha kugenda dukira indwara mu buryo bwa gakondo kuko hari indwara kwa muganga batabasha bigatuma dukoresha iyi miti.